Abaporisi bacunga umutekano w'abantu n'ibintu igihe cyose dore na n'ubu bagiye gutabara aba bantu barohamye bari bakorera ubutabazi.

Aba bantu ni abasirikare. Bambara imyenda isa n'icyatsi n'ingofero zisa n'icyatsi. Bambara na bote zisa n'icyatsi. Aba bantu bari gukora akarasisi. Begereye ikigo cyabo.

Hano ni mu kigo cy'abaporisi, abaporisi nibo bacunga umutekano w'igihugu, bafite n'imbwa zibafasha gucunga umutekano, bafite n'imodoka kandi zibafasha mu ngendo, bari gucunga umutekano.

Hano hantu hari gushya, abashinzwe umutekano bari kugerageza kuzimya uwo muriro, hirya yabo hicayeho abantu iruhande rwabo hirya gato hariho n'ibidomoro.

Aba bantu babita abasirikare . Bambara imyenda ya gisirikari ,bambara n'ingofero, bafite n'imbunda mu ntoki, bambaye na za ga z'umweru mu ntoki.

Muri uyu umuhanda harimo imodoka, imodoka yitwa itagisi, iyi tagisi ipakiye ibintu byinshi cyane bigeretse hejuru yayo, harimo n'igare riri hejuru n'imifuka n'ibikapu birambitse hejuru y'imodoka.

Aba bantu bicaye hano baje kumva inama. Muri aba bantu bicaye hano, harimo ibyiciro bitandukanye : harimo abaje kumva inama, hari n'abaje kubaremesha inama. Bari mu byiciro bitandukanye.

Aha hantu bakoreramo inama, aba bantu bose bicaye muri iyi nama bambaye udupfukamunwa. Muri aha hantu bicaye kandi harimo intebe ziticawemo n'abantu ,aha kandi hariho abandi bantu bahagaze inyuma.

Hano hantu hari bantu bicaye bari mu nama, iyi nama irimo abaturage, irimo kandi n'abayobozi batandukanye, muri iyi nama abaturage bitabiriye cyane, kuko uri kubona ko hari benshi.

Aba bantu barimo abagore n'abagabo, abakecuru n'abasaza bicaye hano ku muhanda, bari mu nama bafite umuntu uri kubayobora mu nama, hirya yayo hariho inzu y'amategura, hariho n'igiti cy'amashanyarazi.

Hano hantu hicaye abantu benshi cyane, aba bantu bari mu nama imbere yabo hariho umuporisi uri kubayobora mu nama, inyuma yabo hubatse inzu nziza iteye amarangi y'umuhondo.

Abavuza ingoma bagendera umujyo umwe, ku buryo wumva biryoheye amatwi maze bikagaragaza umuco wacu wa kera ntiwibagirane.

Iyi bayita inkono, iyi nkono ikozwe mu ibumba, iyi nkono kandi bayiteka ku mashyiga cyangwa bakayiteka kuri rondereza, iyi nkono iteka ibiryo by'ubwoko bwinshi butandukanye, bukaryoha.

Aba ni ababyinnyi, aba babyinnyi bambaye imigara ku mitwe yabo ,bambaye n'amayogi ku maguru yabo, bakenyeye n'ibishura by'ubururu, inyuma yabo hariho abavuzi b'ingoma bambaye imikenyero y'icyatsi n'imishanana y'umweru, hariho n'abandi bari gucurira.

Iki ni igikoresho bita ikibindi. Ikibindi bakibumba mu bitaka byitwa ibumba. Iyo bamaze kukibumba neza baragitwika kugira ngo gikomere. Ikibindi bagitaragamo inzoga, bakakibikamo n'umusururo. Ikibindi kera bakivomeragamo.

Uyu ni umurima uhinzemo ibihaza, ibihaza babyita imyungu. Imyungu ivamo ibikoresho bitandukanye havamo ibicuma banyweramo ibyo kunywa, havamo n'ibikiza banywesha.

Iki ni igikoresho, ikk gikoresho bita urukiza. Urukiza ruva mu gihaza cyitwa umungu, mu bihe byo hambere ibikose bitari byaza bakoreshaga inkiza.

Hano hariho ibikoresho. babyita ibyibo. Ibi byigwa byose hamwe ni bitandatu. Uko ari bitandatu nta bwo bingana, bitandukanye mu bunini. Ibi byibo bitatse amabara atandukanye.

Abantu bakama ibitoki, ibitoki babikamira mu muvure, bakoresheje amakoma cyangwa bakoresheje ishinge, kandi iyo bamaze gukama barakamura, bagakuramo umutobe, maze bakawuyungurura, bakawusuka mu kidomora, bagashyiramo n'urubetezi maze bagatara.

Uyu n'umuma uwo muririma urimo imboga zitwa nyiragasegereza, nyiragasegereza n'imboga abantu ba kera bakundaga kurya cyane, kuko zarabaryoheraga bakizera.

Uyu muntu yicaye ku kirago akikiye igisabo ari gucunda amata. Impande ze hariho inkongoro ibiri. Inkongoro n'igisabo biri mu bintu byagaragazaga umuco wacu nyarwanda.

Iyi ni inzu ibitse inzibutso gakondo zo hambere. Harimo ibikoresho binyuranye bya kera byakoreshwaga. Inyuma y'iyi nzu hariho icyapa kiri kugaragaza y'uko iyi nzu ibitse ibintu bya kera by'Igihugu.

Uyu mugabo yicaye ku birago .Ibi birago babyita imihururu, hirya ye hariho intebe y'umugano, yambaye ingofero ya kinyarwanda, hirya ye, inyuma ye hariho umugabo wicaye ku ntebe bita agasongabugari.

Hano harambitse igikoresho, iki gikoresho cyitwa ingobyi, ingobyi ni igikoresho bahekamo abantu babajyanye kwa muganga, ingobyi kandi bayikoreshaga kera bahetse abageni cyangwa bahetse abatware.

Buno ni ubworozi ubu ni ubworozi bw'inzuki inzuki bazororera mu mitiba, imitiba bayikura mu mu biti no mu mbingo, bazitwikiriza n'ibyatsi inzuki zororerwa mu mashyamba kugira ngo zibone aho zijya guhahira.

Uyu muntu ari mu ishyamba. muri iri shyamba ari guhiga. Bamwita umuhigi. Afite umwambi n'umuheto. Mu mugongo ahetsemo n'izindi myambi myinshi.

Hano hariho ibikoresho bikoreshwa mu ngo, hariho isekururo isekura ibiribwa bitandukanye, hariho n'ibisero bakoresha bari guhunikamo imyaka zitandukanye.

Uyu mugabo ni umucuranzi. Acuranga akoresheje ibikoresho bya gakondo. Aririmba indirimbo za gakondo zitandukanye. Uyu mugabo ahagaze inyuma y'inzu y'amatafari ahiye.

Hano harambitse ibirago. Ibi birago ni bishyashya. Ibi birago kandi bifite ingoyi nini. Ibirago ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu muco nyarwanda mu bintu byinshi, hari ukubihambamo, hari no kubishyingiranwa, byakoraga imirimo myinshi itandukanye.

Aha hantu harambitse ibikoresho bitandukanye; hariho ibyibo bitatu. Ibi byibo bitatu bifite amabara atandukanye; hari ibyo bifite amabara y'umutuku bifite n'imitemeri, hari ikindi gifite amabara y'umukara, hari n'umutemeri udafite ikibo, hari n'akibo gato kadafite umutemeri, hariho n'intango itatse amabara menshi.

Umuco nyarwanda wo hambere warangwagamo ibikoresho gakondo binyuranye ,habagamo n'ibibindi bashyiragamo inzoga cyangwa imisururu, bakanyweramo bashyizemo imiseke.

Uyu ni umusaza, uyu musaza ari kunywa itabi, n'umwotsi uri gusohokera mu mu kanwa ukajya hanze, kera abasaza banyweraga itabi mu nkono. Iyi nkono bayitaga inkono y'itabi.

Aba bantu bari hano bari kugaragaza umuco wacu wo hambere imyenda bambaye iragaragaza umuco wo hambere imisatsi basokoje biragaragaza ko batasokoje amasunzu yo hambere, ibikoresho binyuranye harimo inkongoro zitandukanye harimo n'ibicuma bitandukanye bigaragaza umuco wacu wo hambere.

Aha hariho inyubako. Iyi nyubako bayitaga ikigega. Yubakishije ibikenyeri n'imigano, igasakazwa n'ubundi n'ibikenyeri. Ikigega mu gihe cyo hambere, bagihunikagamo imyaka y'ubwoko butandukanye.

Izi mbyino aba babyinnyi babyina zigaragaza umuco wacu nyarwanda, maze ntimucike kandi uwo muco ntiwibagirane no mu bana batoya.

Iki ni igikoresho iki gikoresho bacyita igisobane, igisobane bakiboha mu bibingo no mu mikaranka, igisobane mu myaka yo hambere bagituragamo abantu, cyangwa bakakibikamo imyaka itandukanye.

Hano hantu aba abantu bicaye bahita mu rubohero, urubohero ni ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye, bahigira imico myinshi itandukanye.

Uyu muntu wicaye hano ari kuboha icyibo. Icyibo bagikoresha intaratare, kimwe n'inshinge. Bakoresha kandi n'icyuma bita uruhindu.

Hano hantu hicaye umuntu. Uyu muntu ni igitsina gore. Uyu muntu afite imbere ye igisabo cyihateretse. Igisabo ni igikoresho gicunda amata.

Kino ni igisabo bacundiramo amata， igisabo kandi kigaragaza umuco wacu nyarwanda， iki gisabo gifite n'injishi yacyo，igisabo kandi abageni kiri mu byo batahana bashyingiwe.

Hano ni mu cyikoni gifite amashyiga ateretseho inkono ikozwe mu ibumba. Iyi nkono kandi yakoreshwaga cyane cyane mu myaka yo hambere.

Uwo ni umuvure, umuvure bawubaza mu giti cyitwa umuvumu, mu kuwubaza bakoresha icyuma, umuvure bawukamiramo ibitoki.

Aha hantu harimo ibikoresho bitandukanye bigaragaza umuco wa Kinyarwanda harimo ibicuma, harimo imiseke, harimo inkangara, harimo ibirago babyita imihururu.

Bano bantu ni abavuzi b'ingoma, abavuzi b'ingoma bambaye imyenda isa bambaye imishanana isa n'umuhondo, n'amashati y'icyatsi n'imikenyero isa n'ubururu. Bavuza ingoma ni umuco wacu w'Abanyarwanda, kuva na kera hose.

Aba ni ababyinnyi. Aba babyinnyi bafite umuco wo kubyina bambaye imigara mu mutwe, bafite n'ingabo mu ntoki. Abandi batwaye amacumu yabo mu ntoki. Aba babyinnyi bambara imyenda isa.

Hano ni mu murima, muri uyu umurima hubatsemo nyirarunonko, nyirarunonko barayitwika maze yamara gushya, bagashyiramo ibijumba, hanyuma bakayihondagura ibijumba birimo, nuko ibitaka bikabihisha bakabirya biryoshye cyane.

Aya mashyiga yakoreshwaga mu gihe cyo hambere. Ubu ngubu agenda asimburwa n'ibindi.

Uno ni umuntu. Ari kubuganiza aya mata mu yindi nkongoro ntoya. Inkongoro ntoya iteretse ku nkoko. Ibi ni umuco nyarwanda wakorwaga mu minsi yo hambere.

Kino ni igishushanyo. Kiri kugaragaza ko uyu ari umugore uteruye umwana. Mu muco nyarwanda umubyeyi agomba kwita ku muryango we.

Aba ni ababyinnyi, aba babyinnyi babyina barambuye amaboko, imbere yabo hariho abandi bateretse ibisabo, hirya ya bo hariho n'undi ufite inkongoro.

Bano bantu bari mu mukazi, umuntu umwe ari koza ibidomora, undi afite isekururo ari gusekura, imbere zabo hariho inkoko ziri gutoragura.

Hano hantu harambitse ibikoresho bibiri. Igikoresho kimwe cyitwa igisabo bagicundiramo amata, ikindi gikoresho cyitwa inkongoro. Inkongoro bayibuganirizamo amata, ibi bikoresho bigaragaza umuco wacu nyarwanda.

Aba ni abagore ,aba bagore baboha imitako itandukanye baboha n'ibyibo bitandukanye .Aba bagore ,aya mafaranga bakorera abakemurira ibibazo byabo byo mu rugo.

Ibi n'ibikoresho bakundaga gukoresha cyane, mu gihe cyo hambere, ariko ubungubu ntibigikunda gukoreshwa cyane, kuko ubungubu haje iterambere.

Iki ni igikoresho abantu bakoreshaga hambere. Cyitwa agasobane. Agasobane bagaturagamo abantu cyangwa bakakabikamo imyaka itandukanye.

Uyu muntu yikoreye inzoga mu kibindi, abandi bari inyuma ye bikoreye amapfukire. Mu bihe byo hambere mu muco wacu nyarwanda abantu bikoreraga inzoga cyangwa ikigage mu bibindi.

Hano muri iyi nzu hateretse ibikoresho gakondo byo hambere bitandukanye. Hateretse inkoko bariraho, hateretse igiseke, hateretse ibisabo, hateretse n'inkongoro.

Hano hantu hariho imyaka myinshi itandukanye. Hariho umugore ufashe inkoko uri kugosora iyi myaka. Iyi myaka mbere y'uko bayibika babanza bayigosora neza kugira ngo igire isuku.

Hano hantu hariho umuntu uri kugosora imyaka. Ari kuzigosoza intara, intara ni igikoresho cyakoreshwaga kuva hambere mu mucyo wacu nyarwanda.

Ab'abantu bicaye hano bari kuboha ibikoresho bitandukanye, babohamo ibyibo, baboha intango, baboha ibiseke, baboha ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, bigaragaza umuco wacu nyarwanda.

Hano hateretse ibyibo. Ibi byibo ni bitatu, ibi byibo byose bifite amabara atandukanye, bifite amabara y'umutuku n'ay'umweru, ibindi bifite amabara y'umweru n'ay'umukara, ariko imitemeri yabyo ntabwo ifite amabara.

Uno muntu afite umuco wo hambere, hambere abagabo bambaraga ibishura bakabikenyera bakagira n'ibindi bitera, bagendaga bafite n'inkoni ndende, iruhande rw'uy'umuntu hariho amazu yubakishije amategura, hahagaze n'abantu bambaye imyenda y'umweru.

Abantu batara ibitoki mu rwina， byamara gushya bakabikama，barangiza bakongera bagatara umutobe mu rwina. Uyu mugabo ari gusogongerera mu rwina inzoga.

Iyi ni isuka. Isuka ni igikoresho bahingisha mu murima. Isuka kandi ni igikoresho kiri mu byo bajyana gukwa umugeni, kuko ari umuco wacu nyarwanda.

Izi ni ingoma. Izi ngoma ni itatu. Zifite n'imirishyo yazo itandatu. Izi ngoma, zifashishwaga babyina imbyino gakondo za kera, kandi izi ngoma zikoreshwa no mu kiliziya babyina.

Aha hantu hashashe ibitanda bitatu. Ibyo bitanda bishasheho ibiringiti bisa n'ubururu. Bishashishije n'amashuka asa n'umweru. Ku rukuta rw'aho ibitanda biherereye hariho amarangi y'umuhodo. Hariho n'amadirisha atatu afite ibyuma.

Iyi nzu yubakishije amatafari ahiye. Isize n'amarangi y'umuhondo. Ifite umurindimuro usa n'umutuku. Ku nkuta zisize amarangi y'umweru. Ifite amadirishya ry'ibirahuri afite na metalic.

Iyi nzu ni urusengero rw'Imana, abantu benshi bajya gusengera muri uru rusengero bakira ibyaha byabo byose, kandi bakahakirira n'indwara nyinshi za karande ziba zarabafashe.

Hano hantu habamo amazu meza cyane afite n'ubusitani bwiza bunini cyane, hari ubwo busitani bufite ibiti harimo n'ubwatsi bufite n'indabyo ngufi bwiza cyane.

Iyi nzu ni urusengero rushyashya ishakajwe amabati mashyashya y'umutuku, ifite amadirishya menshi asize amarangi y'icyatsi, ifite n'urugi rusize amarangi y'icyatsi iyi nzu ifite n'ubusitani bwiza.

Hano hantu hariho inzu. Iyi nzu isakaje amabati y'umutuku. Isize n'amarangi agiye kuba umweru. Ifite n'amadirishya arimo ibyuma afite n'ibirahure. Ifite n'amatafari ahiye asize amarangi y'umweru. Mu busitani bw'iyi nzu haparitsemo amamodoka abiri. Imwe isa n'umukara, iyindi isa n'umweru.

Iyi ni inzu bavuriragamo abarwayi bafite indwara zitandukanye. Iyi nzu isakajwe amabati y'umutuku. Iyi nzu kandi ifite Garden nini. Iyi nzu ifite ikigega gifata amazi y'imvura.

Aha hantu ni mu buyobozi amazu y'aho aragerekeranye bayita etaje, hariho n'ibendera rizamuwe ry'igihugu. Aha hantu umuhanda uhageze wubakishije amapave.

Hano hantu ni ku kiliziya iki kiliziya gifite umunara muremure cyane, uriho umusaraba kuri kiliziya hariho amashusho, hariho kandi n'icyapa kigaragaza iki kiliziya, ahariho muri iki kiliziya imbere yaho hariho umumotari uhaparitse.

Iyi ni inzu, iyi nzu nini cyane ifite umuryango umwe, ufite urugi rusize amarangi y'umweru, iyi nzu kuri urwo rugi hariho n'akayunguruzo, yi nzu yegereye ishyamba rinini cyane, iyi nzu kandi yegereye n'umuhanda wa kaburimbo.

Aya ni amazu. Bayita amashuri. Aya mashuri kandi ni etaje. Muri aya mazu harimo abanyeshuri, bambara imyenda y'ishuri isa n'umukara n'ibindi.

Hano muri uyu muhanda harimo imodoka. Izi modoka bazita torotoro, nizo modoka zikora imihanda n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye.

Hano kuri uyu muhanda wa kaburimbo. Hariho abantu hariho n'undi muntu ufite igare ahetse n'ibintu, ari kubisunika. Hakurya y'umuhanda hariho ibiti, inyuma y'ibyo biti hariho n'amazu.

Iyi nzu ni urusengero. Uru rusengero rwubakishijwe amatafari ahiye. Uru rusengero rufite agasongero gafite umusaraba. Uru rusengero rwubakishijwe amabati asa na shokora.

Aya mazu yubatswe neza mu buryo bwa kijyambere yubakishijwe amatafari ahiye, afite inzugi za metarike, afite amadirishya y'ibirahure, asize amarangi y'umweru, afite n'amabati asa na shokora.

Uyu umuhanda wa kaburimbo ushamikiyeho undi muhanda w'ibitaka. Kuri uyu muhanda w'ibitaka kandi, uriho icyapa kiyobora abantu ku rusengero rwa adeperi. Kuri iki cyapa kandi gihagazeho umuntu. Inyuma y'iki cyapa hariho abandi bantu bahagaze mu muhanda.

Ino nzu ishakakajwe amabati ashaje, isize amarangi y'umuhondo, ifite amadirishya y'ibirahuri, ikikijwe n'ibiti byinshi, ifite igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Aba bantu bari hano ni benshi cyane. Batonze umurongo, bafite udupaniye, bafite n'imifuka. Abantu kandi bari hamwe n'abandi bambaye imipira y'icyatsi.

Aba bantu bicaye hano barikora inama, imbere ya bo hariho umugore uri kubakoresha inama, hirya y'aba bantu hariho amazu menshi y'umudugudu.

Aya mamodoka atwara abagenzi ikagera mu nzira zabugenewe, zitwara abantu babana n'ubumuga kugira ngo bave cyangwa binjire mu modoka bitabagoye.

Iyi ni imodoka, iyi modoka bayita kwasiteri, kwasiteri ni imodoka nziza cyane kuko itwara abantu benshi cyane. Iyi modoka isa n'umweru.

Aha hantu ni aho bategera imodoka bahita muri gare, harimo abagenzi benshi cyane, harimo abagenzi bambaye udupfukamunwa, abagenzi bamwe bari kwinjira mu modoka abandi bagasohoka mu modoka.

Hano hantu ni mu kiyaga, muri iki kiyaga harimo ubwato, ubu bwato abagore nibo babutwara; abagore nabo bashobora gutwara ubwato batwaye abandi bagore bagenzi babo.

Hano muri uyu muhanda, harimo amamodoka y'ubwoko bwinshi butandukanye, hariho ibimodoka binini cyane, bigendamo abantu benshi, inyuma hariho n'amamodoka mato y'amavatiri.

Hano ni ku muhanda. Kuri uyu muhanda haparitseho amamoto. Aya mamoto atwara abagenzi, amamoto afite n'amakasike abiri ategereje ko abona abakiriya, maze bakabatwara.

Iyi modoka bayita Hoho ,isize amarangi y'umutuku ifite n'amapine abiri abiri ,yikoreye umucanga iri mu muhanda w'ibitaka hirya y'aho hariho agasozi kariho ibyatsi.

Amamodoka aparitse hano bayita amavatiri. Aya mavatiri atwara abagenzi. Kubera ko afite aya marangi asa n'umweru ndetse n'umuhondo.

Hano hantu bategera imodoka bahita muri gare. Abantu benshi batonze umurongo kugira ngo binjire mu modoka. Muri gare harimo imodoka nyinshi zitandukanye zitwara abagenzi.

Hano ni mu muhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda wa kaburimbo harimo imodoka, imwe ifite amabara y'umutuku, iyi modoka bayita imbangukiragutabara, hakurya yayo hariho izindi modoka nyinshi cyane ziri kugenda izindi zirahagaze.

Hano ni ku muhanda, uwo muhanda ni uwa kaburimbo, muri uwoku muhanda wa kaburimbo harimo urunyurane rw'abantu benshi batandukanye, harimo: abari kugenda n'amaguru, hari n'abandi bari kugenda n'amamoto.

Uwo ni umuhanda. Uwo muhanda ni uwa kaburimbo. Muri uwo muhanda habamo abanyonzi batwara abagenzi. Aba banyonzi, buri munyonzi atwaye umugenzi.

Hano hantu hahagaze amamodoka . Amamodoka afite amarangi y'ubururu, asize n'amarangi y'icyatsi , n'ayandi y'umuhondo , amamodoka afite ibyapa bigaragaza yuko akora ku kibuga cy'indege.

Hano hantu hariho ikinyabiziga, iki kinyabiziga bacyita ingofani ,iyi ngofani yikoreye ibintu byinshi cyane, bayitwikije n'ihema, iruhande rwayo hariho n'inzu nziza cyane, hariho n'abantu bahahagaze.

Hano hantu ni muri gare, muri gare harimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo kandi ikibisi kinini cyane cyitwa jagwari, iki kijagwari gifite amabara y'umweru n'amabara y'umutuku, n'ibyapa bifite amabara y'umuhondo.

Hano ni mu muhanda wa kaburimbo muri uyu muhanda wa kaburimbo urimo abantu batwaye amata, mu bicuba, hariho n'undi ku ruhande utwaye ibisheke ku igare.

Hano muri uyu muhanda haparitse imodoka nyinshi cyane, izo modoka zitwa bisi, izi modoka zose zisa n'umuhondo, izi modoka ziri iruhande rw'umuhanda, inyuma yazo hariho inzu.

Hano hantu haparitse moto. Moto itwara abantu n'ibintu ikabageza aho bashaka hose, ni ikinyabiziga kihuta cyane, kikakugeza ahantu ugiye.

Hano ni ahantu abagenzi batagera amamodoka ababajyana mu ntara zitandukanye, ahantu bahita muri gare, muri gare habamo imodoka nyinshi nini n'intoya zitandukanye.

Aha ni ahantu abagenzi bategera amamodoka bahita muri gare, buri modoka iparitse hano hantu iriho icyapa kigaragaza aho yaba yerekeje ijyanye abagenzi.

Hano hantu hitwa mu kiyaga. Iki kiyaga kibamo ubwato butwara abantu n'ibintu. Ubu bwato bufite abantu babutwara, bitwa, abayobozi b'ubwato.

Umuhanda wa kaburimbo ni munini cyane. Umuhanda wa kaburimbo kandi urimo amabisi atwara abagenzi ,uwo muhanda wa kaburimbo wegereye amapoto y'amashanyarazi, uwo muhanda wa kaburimbo kandi hariho undi uwugeretse hejuru.

Aha hantu hari gukorerwa imirimo itandukanye. Hari abamotari batwara abagenzi, hari abacuruzi bacuruza amayinite ya MTN, hariho imodoka zipakira ibitoki, n'indi mifuka hariho n'amazu asize amarangi y'umuhondo.

Hano hantu hariho abanyeshuri benshi bambaye imyenda y'ishuri, bahetse n'ibikapu. Ku ruhande rwabo hariho imodoka bita kwasiteri, abanyeshuri bari kuyinjiramo ibajyanye ku ishuri.

Aya mamodoka ari hano ni abiri . Ni amamodoka manini cyane, aya mamodoka yaje hano kuri sitasiyo , ari kunyweshya lisansi , aya mamodoka kandi uyu muntu yahereye ku modoka imwe imwe.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, muri uyu muhanda wa kaburimbo urimo amamodoka, aya mamodoka afite amarangi asa n'icyatsi ahandi ni umweru, afite n'ibirahuri. Aya mamodoka atwara abagenzi.

Hano hantu ni ku kibuga cy'indege. Kuri iki kibuga cyindege hariho indege yahaparitse, hariho n'abantu bambaye amajire ni abakozi babo, hariho n'umuntu wambaye umupira w'umuhondo bari guhereza ibyangombwa.

Hano ni ahantu abagenzi bategera amamodoka, ababajyanye mu turere hirya no hino bagiye. Izi modoka ni nyinshi cyane. Harimo amamodoka y'amabisi, n'amamodoka nk'amatagisi, n'amamodoka y'ama kwasiteri.

Aha hantu haparika amamodoka atwara abantu, bahita muri gare habamo amamodoka menshi atandukanye, ahanini ajyana abantu iyo bashaka kujya cyangwa bakabavanayo.

Hano hantu hariho amamodoka y'ubwoko butandukanye , ahagaze ahagana mu madoka atwara abantu mumodoka harimo amatagisi n'ayandi mamodoka afunze.

Muri iyi mihanda harimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Harimo amagare ahetse imifuka igerekeranye, harimo abamotari bahetse abagenzi, harimo abagenzi bari kugenda n'amaguru, harimo abamotari bari kugenda nta bagenzi bahetse.

Hano ni ahantu amamodoka aparika. N'abagenzi baza kuyafatiraho, kugira ngo bajye aho bashaka mu ntara, n'ahandi hantu, bahita muri gare. Izi modoka ziparitse hano, ni amavatiri atwara abagenzi, harimo n'ibyapa bigaragaza buri ntara.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo. Muri uyu muhanda wa kaburimbo harimo moto itwaye abantu babiri. Aba bantu babiri bambaye kasike z'icyatsi, bambaye n'amapantaro asa n'ubururu.

Aya mamodoka ni menshi cyane, yose afite icyerekezo kimwe. Aya mamodoka iruhande rwayo hariho abantu bahagaze abandi bari kugenda. Aya mamodoka yose arafunze.

Bano bantu birukanka cyane baba bari gukora marato. Aba bantu birukanka ababa abambere barabahemba, aba bantu kandi baba barimo ubwoko bwinshi cyane butandukanye, harimo abazungu, habamo n'abirabura.

Hano ni mu muhanda wa kaburimbo, muri uyu umuhanda wa kaburimbo, urimo abantu bari gusiganwa ku magare. Muri uyu muhanda, kandi hariho abantu benshi baje kureba aya masiganwa y'amagare.

Aba ni ababyinnyi. Aba babyinnyi babitaga intore. Intore iyo ziri kubyina ziri guhariza, zishimisha abantu maze abantu bakizihirwa.

Abantu bakina umupira wa vore bicaye hasi, bose bafite imipira yanditseho inimero, imbere yaho hariho abafana benshi cyane bari ku bafana.

Aba ni abakinnyi b'umupira . Abakinnyi bambara imyenda isa. Bambara n'inkweto n'amasogi bisa. N'imbere yabo, hariho n'imipira isa. Aba bakinnyi barimo ingeri zitandukanye habamo abagore n'abagabo.

Imikino ngororamubiri ituma ugira ubuzima bwiza, kandi ikuzanira n'amafaranga akaguteza imbere, agateza imbere n'igihugu cyawe.

Imikino ngororamubiri ituma abakinnyi bagira ubuzima bwiza, ndetse iyo mikino ibinjiriza n'amafaranga abatunga, agatunga n'imiryango yabo.

Muri uyu muhanda, urimo abantu b'ingeri zitandukanye, bari gukora siporo. Urimo abagore n'abagabo, barimo bari gukora siporo. Inyuma y’aba bantu bari gukora siporo, hakikijwe n’ibiti bitandukanye.

Hano kuri iki kibuga hariho abakinnyi benshi, buri mukinnyi afite umupira mu ntoki, inyuma yabo hariho abafana benshi cyane, harimo n'undi muntu wambaye umupira wumukara. Aba bafana bamwe bambaye amashati y'umweru, abandi bambaye amajipoy'umuhondo.

Aya mazu ni amashuri abanyeshuri bigamo. Abanyeshuri bose bari hanze bari kumwe na mwarimu mu kibuga bakiniramo, mwarimu ari kubasobanurira. Aya mazu yabo asize amarangi y'ubururu y'amabati, amadirishya na yo asize amarangi y'ubururu.

Uyu ni umuhanda rwa kaburimbo, muruyu mu handa wa kaburimbo, harimo amasiganwa y'amagare, aya magare ariho abantu benshi, muraya magare abantu bari kugenda bakurikiranye, umwe umwe imbere y'ubundi.

Uyu muhanda ni uwa kaburimbo. Ukikijwe n'ibiti byinshi birebire. Uyu muhanda kandi ku mpande urimo ibiti by'amashanyarazi. Uyu muhanda urimo abantu bari kugenda n'amaguru.

Hano hantu ni mu muhanda wa kaburimbo, uwo umuhanda wa kaburimbo ugenderamo abantu n' ibinyabiziga, uy' umuhanda urimo abantu babiri bari kugenda bafashe ibyibo mu ntoki.